Inama iri guhuriza hamwe abantu bagera kuri batandatu, muri abo bantu hakaba harimo abagabo batanu ndetse n'umugore umwe cyangwa se umuntu w'igitsina gore umwe, uwo muntu w'igitsina gore afite imisatsi yarasutse ndetse abo bagabo bo ndabona bamwe bari kwandika, abandi bakurikiye.

Uburyo bwo gukora apudeti kuri EBM yawe niba ukoresha laptop, destop cyangwa tablet ikoresha windows shyira imashini yawe kuri internet kanda inshuro ebyiri kuri porogaramu ya EBM mu mumashini yawe, reba hasi ibumoso niba umubare w'ibanga urangizwa n'ijana mirongo itanu n'icyenda ubwo EBM yawe yamaze kwakira apudeti mukeneye ubufasha mwaduhamagara kuri magana abiri na kane.

Umuntu w'igitsina gore wambaye amarinete y'umukara, wambaye amaherena y'umweru ndetse akaba afite imisatsi ya natirere ndetse bikaba bigaragara ko yambaye agapira k'umuhondo mo imbere ndetse nyuma akaba yambaye akandi gakote k'amabara y'umutuku avanze n'umukara.